Abanyeshuri benshi bari ahantu hamwe, barimo kwigishwa uburyo ki bwo gukoresha kizimyamwoto bazimya umuriro, ikindi aba banyeshuri bambaye impuzankano y'umweru hejuru, ndetse na kaki hasi.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka. Aba bagabo harimo umugabo umwe usanzwe, ndetse n'undi ushinzwe umutekano. Bigaragara ko hari ibintu barimo guhererekanya, ndetse inyuma ya buri mugabo hahagaze undi mugabo.

Abashinzwe umutekano bo mu bwoko bwa daso, bambaye imyenda y'icyatsi, hagati yabo har'umusirikare, ndetse n'umupolisi n'undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo, bakaba batonze hamwe kumurongo umwe.

Abashinzwe umutekano barimo abadaso, polisi ndetse n'abasirikare. Bahagaze imbere y'ameza, ameza arunzeho inkweto, inkweto zo mu bwoko bwa bote inyuma yabo hakaba hari tente irimo abantu.

Abapolisi batanu bambaye iniforume z'imikara, bose bambaye n'ingofero kandi bose bafite imbunda, batunze ahantu hamwe bigaragara ko bagiye kurasira icyarimwe.

Abashinzwe umutekano bahagaze ahantu hamwe ku mirongo. Harimo bamwe bambaye imyenda y'ubururu abakozi ba RIB, hakaba hari n'abandi, n'undi umwe wambaye umwenda wa gisirikare.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, bambaye udupfukamunwa, harimo abagore n'abagabo. Imbere yabo hari undi muntu umeze nkaho arimo kubigisha uburyo ki bwo gukoresha kizimyamwoto ndetse na gaze, hakaba hari n'ubundi bujerekani burimo ibintu.

Umugabo munini bigaragara ko ari ushinzwe umutekano, kuko yambaye iniforume y' igipolisi cy' u Rwanda, kandi yambaye na iniforume ye iriho ibendera ry' u Rwanda.

Umusirikare urimo kugenda ahantu mu gisambu kirimo ibyatsi byinshi, uyu musirikare akaba yambaye iniforume ya gisirikare, ndetse n'ingofero mu mutwe.

Abantu benshi bicaye hasi mu byatsi bigaragara ko bameze nk'abari mu inama kuko hari undi mugabo umwe uhagaze abandi bose bicaye. Hakaba n'abandi bagabo babiri bicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abantu batandatu bicaye ku meza amwe, bimeze nkaho bafite ibyo barimo kuganiraho, kuko harimo n'umwanditsi ufite urupapuro, bigaragara ko ariwe urimo kwandika ibyo barimo kuvugaho.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe muri sale bimeze nkaho bari mu nama, buri muntu wese afite agakaye ko kwandikamo, abicaye ku meza y'imbere bafite telefone imbere yabo kumeza ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi bicaye mu nzu, bigaragara ko aba bantu bari mu nama. Abicaye ku meza y'imbere bafite mikorofone imbere yabo, ndetse hakaba hateretse n'amacupa y'amazi.

Abagore benshi bafite abana mu ntoki, abandi babahetse imbere yabo ,hari umugabo umwe urimo kuvugira muri mikoro，ndetse ufite n'agapfukamunwa ku munwa.

Abantu benshi, bamwe bicaye abandi bahagaze, bicaye ahantu mu byatsi, ndetse iruhande rwabo bigaragarako hari n'amashyamba.

Umwana w'umunyeshuri uryamye ku kirago, yambaye ijipo y'umukara n'ishati y'umweru. Iruhande rwe hari agaseke ndetse n'igicuma.

Intore z'ababyinnyi zirimo guhamiriza. Zirimo kubyinira ahantu hari igitaka cyinshi. Ikindi izi ntore zifite imisatsi isa n'umweru ku mutwe. Kandi bose uko ari babiri bafite udukoni mu ntoki.

Ababyeyi b'ababyinnyi barimo kubyina bose bashyize amaboko hejuru bikoreye n'uduseke. Bakaba bakenyeye imikenyero ifite ibara ry'umuhondo. Inyuma yabo hari n'abandi b'abagabo na bo b'ababyinnyi bari inyuma yabo.

Ibiseke byinshi biteretse kuri etajeri, bigiye biteretse ku murongo, ariko ibi biseke byose ntabwo ari ubwoko bumwe.

Ababyinnyi bose bari ku murongo umwe bakaba ari batandatu, bafite imiheto bigaragara ko bafoye bagiye kurasa, kandi bose bambaye kimwe ndetse banasa n'umukara.

Umusore uhagaze afite akantu, kameze nk' inkoni mu ntoki gafashe akandi kameze nk' akabindi, arimo kugenda akozaho akandi gati akoresheje ukundi kuboko bigaragara, ko arimo gucuranga, igicurangisho gakondo bita umuduri.

Igikoresho gakondo gikoreshwa mu gusekura ibintu bitandukanye, harimo imboga bita isombe, gusekura amafu runaka ndetse n'ibindi, iki gikoresho kikaba cyitwa isekuro giteretse ahantu hamwe ariko bikaba bigaragara ko gishaje.

Intore z'ababyinnyi zirimo guhamiriza . Haba hari umubyinnyi umwe wasimbutse hejuru mu kirere , n'abandi bari hasi ndetse hirya ye hakaba hari n'abandi barimo kugenda bavuza ingoma.

Ababyinnyi b'abanyeshuri barimo kubyina bambaye iniforume. Bamwe muri bo bafite n'imisatsi ku mutwe, abandi bambaye amajipo ya kaki ndetse n'amashati y'umweru.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye; harimo uduseke, ndetse n'inkoni zikoreshwa mu bukwe, hakaba harimo umumama umwe uhagazemo, bigaragara ko ariwe ubicuruza.

Ababyinnyi barimo kubyina, inyuma yabo hari inzu yubatse mu ruziga iyi nzu bikaba bigaragara ko yubakishije ubwatsi, aba babyinnyi barimo kubyina bose bashyize amaboko mu kirere ndetse inyuma yabo hari n'abandi benshi cyane.

Uduseke dutatu duteretse ahantu hamwe, kamwe muri two gasa n'umutuku utundi tubiri dufite amabara y'umweru n'umukara, twose hejuru dufite udushumi two guterura tukaba turi ahantu hamwe.

Ababyinnyi benshi bari ahantu mu gisambu bigaragara ko ari ho bagiye kubyinira, imbere yabo hari umwe w'umuhungu ubaserukiye ufite inkoni ndende.

Intore z'ababyinnyi zirimo kubyina, harimo abakobwa bambaye udusengeri tw'umweru hejuru, hasi naho bambaye umweru, hakaba n'abandi bambaye imikenyero y'umuhondo bikoreye n'uduseke.

Inka zo mu bwoko bw'inyambo zikunze kugira amahembe maremare cyane, izi nka ziri hano ku ifoto zifite amahembe maremare, imwe muri zo yambaye imitako mu gahanga, izindi ntayo zambaye.

Intore z’ababyinnyi, bambaye umuhondo hasi, hejuru ntabwo bambaye, bafite imisatsi miremire cyane ku mutwe, kandi bose bafite amacumu; barimo kubyinira impande y’uruzitiro rw’ibiti.

Igikombe gikoze mu cyuma. Iki gikombe biragaragara ko hari umuntu ugifashe wambaye imyenda y'ubururu. Iki gikombe kandi, mo imbere biragaragara ko hari ibintu birimo biri mu bwoko bw'ubushera.

Umuntu urimo kurasa akoresheje igikoresho gakondo umuheto ndetse n'umwambi, yafoye, biragaragara ko hari ikintu agiye kurasa, ndetse inyuma ye hari undi muntu urimo kugenda amusanga.

Ibirago bibiri bigerekeranije kimwe hejuru y'ikindi birambitse hasi ku butaka, ibi birago biboshye mu bwatsi bw'ibikangaga kandi bibohesheje ubudodo bw'imifuka.

Intore z'ababyinnyi b'abana b'abakobwa barimo kubyina. Bose barambuye amaboko kandi bose bambaye imyenda isa. Bambaye imikenyero y'ubururu mo imbere harimo umuhondo, bakaba barimo kubyina bose baseka.

Ibyansi byinshi biteretse ahantu hamwe ,ibi byansi byose birapfundikiye ,uretse kimwe muri byo kinini kidapfundikiye neza ibi byansi bikaba biteretse iruhande iruhande rw'uruzitiro rw'ibiti.

Inzu nini cyane yubatse mu buryo bw'uruziga, iyi nzu ifite umuryango umwe, ndetse iyi nzu ikaba ifite nk'akandi kantu hejuru yayo kazamuye kameze nka anteni, ikindi iyi nzu ikaba ifite ibara ry'umukara.

Uduseke dutandatu duteretse ahantu hamwe, utu duseke twose ntabwo tungana, tugiye dusumbana, hari udutoya cyane, hakaba utwisumbuyeho, hakaba n'ibinini, uduseke twose dufite ibara ry'igitaka, ndetse n'umukara.

Ibibindi bine bitereretse hasi, kimwe muri cyo gipfundikije ikoma, bitatu bipfundikije ibirere, ndetse kandi biteretse iruhande rw'uruzitiro rw'ibiti.

Abagabo benshi bari mu murima hari umugabo umwe urimo guhinga akoresheje ipiki, ndetse hari n'undi uri iruhande rwe urimo kugendera ku mbago.

Intore z'ababyinnyi ziri ku rubyiniro, aho zirimo guhamiriza, zose zambaye hasi umuhondo, hejuru umukara, kandi zose zifite imisatsi zambaye mu mutwe.

Ibisabo bibiri bijishe hejuru, ndetse n'ibyansi byinshi biteretse, kandi byose bipfundikiye, biteretse ahantu hamwe ku murongo.

Isekuru ikuze yagiye ibyara, aribyo twita kumeneka cyangwa se mu kinyarwanda cyiza ko ari ukubyara. Iteretse hasi ku butaka, iruhande rwayo hari amabuye. Biragaragara ko hari n'undi muntu wicaye mu nzu, utarimo kugaragara neza.

Umu mama ufite imisatsi bamuzingiye ku mutwe. Afite ibara ry'umukara ikindi arimo guseka, kandi yiteye umukenyero ari n'impande y'uruzitiro rw'ibiti.

Umuntu ufashe agatebo kaboshye mu biti agatebo gafite umukondo hejuru wo gufata, iruhande rwako biragaragara ko hari n'intebe yo kwegamira nayo ikoze mu biti.

Umusaza wambaye imyenda y'umukara, utambaye inkweto, akaba yambaye n'ingofero ku mutwe, akaba yicaye k'umukeka arambije, inyuma ye hari undi muntu wicaye, inyuma ye nawe wambaye imyenda y'umukara, uyu musaza bikaba bigaragara ko ari umuboshyi.

Umuntu ufotowe igice cyo hejuru gusa. Kandi umuntu afite ibara ry'umukara, bigaragara ko afite n'umusatsi ku mutwe, afite umusatsi mwinshi ku mutwe.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, iki gikoresho kikaba gifite forume imeze nk'iya telefone, ndetse iki gikoresho gifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, umuhondo, n'ubururu ndetse n'umutuku.

Itara rirambitse ahantu hamwe, iri tara bikaba bigaragara ko ridacometse ridashobora kwaka. Itara rikaba rifite ibara ry'umweru ndetse na kaki, rikaba rifite n'akandi gace gasa n'icyatsi.

Igikoresho gikoreshwa mu gukora amashanyarazi, cyangwa se no gufungura ibindi bikoresho byose bya elegitoronike. Iki gikoresho kikaba kirambitse ahantu hamwe, gifitemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku.

Igikoresho gikoresha umuriro w'amashanyarazi, kirambitse hasi gifite insinga ariko ntabwo gicometse ku mashanyarazi.

Abana babiri barimo kwambuka ikiraro. Iki kiraro kikaba gikoreshejwe ibiti, ariko gifite ku ruhande, gikikijwe n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku. ikiraro kikaba kiri ahantu mu ishyamba.

Imihanda irimo kugendamo ibinyabiziga nk'imodoka ndetse n'amamoto, harimo kugendamo n'abagenzi barimo bagenda muri iyo mihanda ,ikindi kandi hariho n'amapoto y'amatara maremare.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari jaride, jaride irimo ibendera rirerire cyane, risumba uburebure bw'iyo nyubako.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye ndetse rusakaje amabati y'ubururu. Hejuru yarwo hari umusaraba, imbere yawo hari abakristo benshi bigaragara ko baje gusenga.

Inyubako y'urusengero isakaje amabati atukura, imbere yayo hari uruzitiro ruriho ibyuma ndetse n'amatara, hejuru y'iyo nzu hariho umusaraba, kandi iruhande rwayo na none hari ibiti binini cyane.

Abafundi babiri barimo kubaka iruhande rw' umuhanda, hari umufundi umwe wambaye ubururu ndetse n' umutuku urimo kubaka, hakaba n' undi urimo kugenda amuhereza sima, iruhande muri uwo muhanda hakaba hari, imodoka ebyiri zirimo gutambuka.

Inzu nyinshi zegeranye, zikikijwe n'urukuta rukomeye. Imbere y'urwo rukuta hari jaride nini. Izi nzu zisakaje amabati atukura, ndetse zisize amarange y'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo, uyu muhanda ukaba nta kinyabiziga kiwurimo, iruhande rw'uwo muhanda hari inzira z'abanyamaguru zirimo abanyamaguru barimo gutambuka, ndetse hakaba hari n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi.

Inzu ndende cyane y'urusengero, bigaragara ko bayisengeramo ariko nta bantu bayiri iruhande, iruhande rwayo hari imigezi bakarabiramo hari n'insinga z'amashanyarazi, ikindi kandi iruhande rwayo hari jaride nini cyane.

Inzu ndende y'urusengero, bigaragara ko iri ahantu muri jaride, iruhande rwayo hari jaride, ikindi kandi n'uruhande rwayo hari imigezi bakarabiraho isize irangi ry'umweru, urusengero rusakaje amabati y'umutuku, hejuru hariho akandi kazu gatoya.

Inzu yubatse ahantu isakaje amabati y'umweru, inyuma yayo hari ishyamba, imbere yayo hari umurima urimo ibyatsi byumye n'ibindi bibisi, kandi imbere y'iyo nzu hariho abagabo barimo kugenda kandi hakaba hariho n'ibendera.

Urusengero rwubatse ahantu, urusengero rufite urugi, rufite ibara ry'icyatsi, kandi urusengero rusakaje amabati y'umweru, ikindi rufite n'umusaraba hejuru. Uru rusengero kandi rukaba rufite n'akandi gace gatoya, gafite ibara ry'umuhondo, handikishijweho amagambo yandikishijwe ubururu.

Abantu benshi barimo kubaka, abantu barimo kugenda bubaka bakoresheje amabuye, bikaba bigaragara ko bagiye kubaka inzu iruhande rw'aho bari kubaka nnone hari nzu bigaragara ko ari ishurire.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri ahantu mu kibaya , uyu muhanda ukaba ugeze hirya ugacikamo ibice bibiri , mbese ukabamo imihanda ibiri, umwe ugaca mu gice cyo hepfo undi mu gice cyo ruguru .Iruhande rw'uyu muhanda hakaba hari ishyamba.

Abaturage benshi bicaye ahantu hamwe mu byatsi, hari bamwe bicaye ku ntebe, hari n'abandi bicaye hasi, hakaba n'abandi batatu bahagaze, babiri bafite mikoro, n'undi umwe uhagaze, barimo kumuha mikoro ngo avuge.

Abantu benshi bicaye, bamwe bicaye hasi, abandi bicaye ku ntebe barimo gukoma amashyi. Bigaragara ko bari mu nama, kuko imbere yabo hari umwe uhagaze ari we urimo kubaganiriza.

Abantu benshi bicaye ahantu mu nzu bigaragara ko barimo kuganira, hakaba hari umumama umwe uhagaze, wambaye ikanzu irimo umutuku umweru n'umukara, yiteze n'igitambaro cy'umutuku, afashe mikoro arimo kuvuga abandi bicaye.

Imodoka nini itwara imizigo, irimo kugenda mu muhanda w'igitaka, iyi modoka ipakiye imifuka, harimo imifuka ifite ibara ry'igitaka ndetse n'indi ifite ubururu buvanze n'umutuku, ariko iyo mifuka nta bwo tuzi ibintu birimo.

Ikamyo nini cyane irimo kugenda mu muhanda w'igitaka, irimo igenda itumura ivumbi ryinshi cyane, imbere yayo hari abagabo babiri, nabo barimo bagenda mu muhanda, ndetse hari n'ibendera ry'igihugu.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi, irimo kugenda mu muhanda. Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi. Iruhande rw’iyo modoka, hakaba hari abamotari barimo kugenda, na bo batwaye abagenzi.

Imodoka enye ziparitse mu mbuga irimo amapave ndetse iruhande rwazo hari n'akajaride. Jaride irimo uturabo tw'umweru ariko mu mpande z'iyo jaride, harimo utundi tujaride ku ruhande. Ndetse jaride imwe biragaragara ko indabo zimwe bazikuyemo.

Aba mama bari ku magare, amagare akaba apakiye imifuka ndetse n'indobo, aya magare akaba arimo kugenda mu muhanda w'igitaka, hari n'abandi bagenzi barimo kugenda iruhande rwabo.

Imodoka nini cyane itwara imizigo, imodoka ifite ibara ry'umutuku irimo kugenda mu muhanda w'igitaka, kandi iyi modoka biragaragara ko ipakiye umucanga wo kubakisha.

Abanyonzi bane cyangwa se abatwazi b'amagare, batatu muri bo bapakiye ibicuba by'amata ku magare yabo, undi apakiye ibisheke, bose barimo kugenda mu muhanda, iruhande rw'uwo muhanda, hakaba hakikijwe n'ibiti by'imigano.

Imodoka nyinshi zitwara abagenzi ziparitse, aho ziparitse bigaragara ko hari n'abagenzi barimo kugenda, kandi harimo n'utuzu, bigaragara ko ari utwo bugamamo izuba, cyangwa se bahahiramo ibintu bitandukanye.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi irimo kugenda mu muhanda w'igitaka, imodoka ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru irimo kugaragaza amapine abiri yonyine.

Imodoka zirimo kugenda mu muhanda, iruhande rw'umuhanda hari nanone abagenzi ndetse n'umutaka uhagazeho abantu, uyu mutaka bikaba bigaragara ko ukoreramo aba ajenti ba emutiyeni.

Imodoka itwara abagenzi iri kugenda mu muhanda w'igitaka, harimo umuntu umwe uyitwaye ariko biragaragara ko nta bagenzi bayirimo. Iruhande rw'iyo modoka haparitse abamotari, kandi iyo modoka ifite amabara y'umweru n'icyatsi.

Imodoka ndende cyane zitwara imizigo ziparitse ahantu hamwe ku mbuga ya sima, hakaba hari umuntu umwe uri iruhande rw'imodoka. Hari n'indi modoka imwe ndende cyane, bigaragara ko ipakiye itwikirije ihema.

Imodoka nini zitwara imizigo, zirimo kugenda mu muhanda, izi imodoka zikaba ari ebyiri, zifite ibara ry' umutuku, zose zipakiye umucanga.

Imodoka nyinshi zitwara abagenzi ziparitse ahantu hamwe ari nyinshi cyane bigaragara ko aha hantu ari muri gare cyangwa se abagenzi aho bategera kuko iruhande rwazo hari n'abantu barimo kugenda benshi.

Imodoka nyinshi nini cyane zitwara imizigo, ziparitse ahantu hamwe, iruhande rwazo hakaba hahagaze umugabo wambaye umudari mu ijosi, ufashe terefone mu ntoki, ndetse wambaye n'ijire.

Umukobwa bigaragara ko ari umukinnyi w'umupira w'intoki .Uyu mukobwa afite umupira mu ntoki Ikindi, biragaragara ko ari mu kibuga ,ndetse afite ibisuko ku mutwe yambaye agasengeri ndetse n'agakabutura arimo guseka.

Imodoka irimo kugenda mu muhanda w'igitaka irimo kugenda itumura ivumbi ryinshi cyane, iyi modoka ifite amabara menshi atandukanye harimo icyatsi, ubururu, umweru, umuhondo n'umukara, ikindi imbere yayo hahagaze abashinzwe umutekano ndetse n'abandi bantu basanzwe.

Abantu benshi bose bafite amagare ya siporo, bambaye ingofero zikomeye mu mutwe. Bigaragara ko bagiye gutangira irushanwa ry'amagare. Iruhande rwabo hari abandi bagabo bahagaze, ndetse haparitse n'izindi modokari.

Abakinnyi bigaragara ko batari mu kibuga. Aba bakinnyi harimo umwe ufashe amacupa abiri y'amazi, ndetse biragaragara ko ari amakipe abiri, kuko bamwe bambaye ubururu buvanzemo na kaki, abandi bambaye icyatsi kivanzemo umweru.

Abakinnyi bari mu kibuga, abakinnyi bose bigaragara ko ari igitsina kobwa, imbere yabo hicaye abantu benshi, ubwo abantu bikaba bivuze ko ari abafana baje kureba umupira.

Abakinnyi babiri b'umukino w'intoki. Aba bakinnyi bakaba bahagaze bafatanye ku rutugu, umwe ni muremure cyane undi ni mugufi, ariko bose bahagaze barimo guseka.

Aba siporutifu cyangwa se abakinnyi bahagaze mu kibuga; abakinnyi bambaye imyenda ifite ibara ry' ubururu ndetse n' umuhondo bose bahagaze bafatanye ku rutugu, ariko na none imbere yabo hari undi wambaye umupira w' icyatsi bigaragara ko ari umutoza wabo.

Abakinnyi bari mu kibuga, umuzamu bigaragara ko yaryamye hasi arimo ashaka gufata umupira. Uyu muzamu yambaye imyenda itukura, ikindi hari n'abafana benshi bigaragara ko bicaye muri sitade.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifitemo itara hejuru rinini, ndetse iyo nzu mo hasi ikaba ifitemo na pisine ikaba ifite n'ibirahure birimo abantu.

Umuntu ufite imisatsi miremire wambaye isengeri, ndetse biragaragara ko ari umubyinnyi, afite n'ikindi kimeze nk'inkoni mu ntoki ze,

Abana bane b'abakinnyi, bari mu kibuga bambaye imyenda y'umukara ivanzemo n'umweru, bikaba bigaragara ko bari gukina, kuko umwe muri bo afashe umupira, abandi barimo kugerageza kuwumwambura.

Abakinnyi benshi bambaye imyenda y'ubururu, harimo n'abambaye umweru, abakinnyi bari munsi, barimo kugenda mu nzira, ariko iyo nzira ikaba ikikijwe n'ibiti byinshi cyane.

Abakinnyi bambaye imidari mu ijosi, aba bakinnyi bigaragara ko bishimye cyane kuko bahawe ibihembo, nyuma yabo hari ibyapa byanditseho visiti Rwanda, abakinnyi, akaba ari abasore batatu.

Abaiporutifu cyangwa se abakinnyi ba basiketi, bafite umupira, bari mu kibuga, abo bakinnyi ni babiri, umuhungu n'umukobwa, inyuma yabo, hari abandi bicaye hejuru ku ku byuma.

Umukobwa wambaye agakabutura k'ubururu kanditseho nimero eshanu, n'agasengeri k'icyatsi kanditseho nimero eshanu, bigaragara ko ari umusiporutifu arimo guseka kandi mu ntoki ze afashe igikombe.

Umukinnyi w'umukino w'amaboko, uyu mukinnyi akaba yasimbutse mu kirere, ndetse afashe n'umupira, bikaba bigaragara ko agiye gutsinda igitego, uyu mukinnyi yambaye imyenda isa ubururu.

Umupira wo gukina ufite amabara y'umuhondo n'ubururu. ikindi kuri uwo mupira handitseho "ma" ,"va" na "a" ndetse n'umubare magana atatu. Umupira ukaba urambitse ahantu hamwe.

Abakinnyi bari mu kibuga. Aba bakinnyi akaba ari abasore bane, umwe muri bo yambaye ubururu, abandi babiri bambaye umutuku uvanze n’umuhondo ndetse n’icyatsi. Hakaba n’undi umwe wambaye umukara. Bose bigaragara ko bari mu kibuga, kuko hari n’umupira uri mu kirere.

Abatwazi b'amagare bose bari ku magare yabo barimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ndetse iruhande rwabo mu nzira z'abagenzi hari abana bikoreye inkwi, aba bana bigaragara ko bavuye gutashya.

Abakinnyi bakina umupira w'amaboko bari mukibuga, barimo gukina, hari ikipe imwe yambaye icyatsi, hakaba n'indi kipe yambaye umweru uvanze n'umukara, ndetse imbere ya bo hakaba n'undi mugabo wambaye icyatsi hejuru, n'umukara hasi.

Inzu bigaragara ko ari iz'ubucuruzi, izi inzu zikaba zubatse iruhande rw'umuhanda, ndetse muri uwo muhanda hakaba harimo kugendamo ikinyabiziga kimeze nka moto. Ikindi hejuru yizo nzu hanyuzeho urutsinga rw'umuriro w'amashanyarazi.

Isantarare y'ubucuruzi irimo amazu menshi atondekanye ku murongo, imbere y'ayo mazu hariho ibintu byubakishijwe n'imbaho, ndetse kandi mbere yaho hicaye abantu bicaye hamwe hakaba n'undi umwe uri hirya urimo kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko hari moto irimo kuwugendamo, ariko iyi moto ikaba itarimo kugaragara neza. Ikirimo kugaragara ari ikirahure cyayo, moto ikaba iri kugenda iruhande rw'umuhanda ariko ku ruhande rw'umuhanda na none hari igikuta.